Icyumba cyo kwa muganga akaba ari icyumba cy'ibagiro, harimo umudamu ndetse n'abagabo babiri umwe yambaye ikoboyi y'ubururu, icyumba gifite inzugi zirimo selire z'umuhondo ndetse izo nzugi zikaba zisize irangi rijya gusa umutuku, ibikuta bisize irangi ry'umweru, hasi hari amakara.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru barimo kurebera mu bikoresho biigenzura niba ibintu bisa neza, imbere yabo hateretse ibyuma harimo umukasi ndetse n'ibindi byuma bitandukanye, hari amakaro y'umweru ateretseho ibyo byuma barimo kugenzura imiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.